Kwigisha cyangwa se kwerekana imikoreshereze myiza y'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu guteka. Gaze cane nk'iyo uyikoresha ahuye n'inkongi y'umuriro, ibyo agomba kwihutira gukora nkuko bigaragazwa ku ifoto.

Mu rwego rwo kwirinda inkongi z'umuriro, polisi y'u Rwanda hari igihe ifata umwanya ikifatanya n'abaturage mu kubasobanurira ibyo bakwiye gukora igihe cyose bahuye n'inkongi z'umuriro aho bakorera cg se aho baba, aho bifashisha ibikoresho bitandukanye berekana icyo bagakwiye guhita bakora mu rwego rwo kwirinda inkongi z'umuriro nk'uko byagaragajwe ku ifoto.

Kamera zo ku mihanda cangwa zishigwaga ahandi hantu hatandukanye kugira ngo zifashe ababishinzwe gucunga umutekano, ishobora gushigwa nko ku rugo gw'umuntu kugira ngo igihe adahari aje amenya ibyahabereye bitandukanye cangwa se zigashigwa ku muhanda kugira ngo zicunge umutekano w'ibinyabiziga.

Umupolisi w'umugore ukurikiwe n'abandi bantu batandukanye, bigaragara ko hari abantu hari ahantu abajanye, cangwa se hari ikintu agiye kubereka. Cane ko abapolisi bo mu Rwanda bakunda kwifatanya n'abaturage mu bikorwa bitandukanye nk'umuganda n'ibindi, kugira ngo babashe kunganirana mu gutanga cyangwa se mu kwerekana ahantu abanyabyaha baherereye.

Kamera zishigwaga ku muhanda kugira ngo zisuzume umutekano gwo mu muhanda zizwi ku izina rya Sofiya. Zikaba ari kamera zifotoraga cangwa se zicungaga imodoka ziri kugendera ku muvuduko munini cane zikazifotora, bico izo modoka zigahabwa ibihano.

Umugore ufite mikoro usa nkaho ari kugeza igitekerezo cye ku bantu batandukanye, cane nkuko bigaragara arimo kugeza igitekerezo cye ku mfungwa n'abagororwa, cyangwase abo bakorana nkuko bigaragaza ku ifoto.

Iyi ni imodoka iri muri contoroletekinike cagwa se aho bita mu isuzumiro ry'ibinyabiziga, aho bareba ubuziranenge bw'imodoka bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye.

Abantu bari gutozwa imyitozo za gisirikare cangwa se imyitozo zafatwa nko kwigwanaho, zikaba ari imyitozo zikoreshwaga n'abantu babihuguriwe, bico bigatuma baforuma cangwa se bigisha abandi bantu uko bagomba kwigwanaho mu gihe baba batewe. Zikaba ari imyitozo zikogwaga mu byiciro bitandukanye.

Umupolisi ushinzwe umutekano go muhanda aho agenda ahagarika imodoka izindi akaziha uburenganzira bwo kugenda mu nshingano ze, kugira ngo zidateza umutekano muke cyangwa se impanuka mu mihanda.

Abantu batandukanye bashobora kuba bafashwe bashinjwa ibyaha bitandukanye, uko bari kumwe n'inzego zishinzwe umutekano, ndetse bakaba bambaye amapingu mu biganza byabo; bisobanuye ko bashobora kuba bafite amakosa atandukanye bagiye bakora.

Igisirikare c'igihugu kizwi nk'aradiyefu, akaba ari ingabo zirwanira igihugu cy'u Gwanda ikaba higanjemo urubyiruko, abasore ndetse n'inkumi.

Ugwego gw'igihugu rushinzwe umutekano by'umwihariko uwo mu muhanda ruzwi nka polisi, aho bajananwaga mu myitozo imara igihe c'amezi agera ku icenda, bitoza gukoresha ibikoresho bitandukanye by'ubwirinzi harimo nk'imbunda n'ibindi bitandukanye. Kuko bigaragara ni umukobwa uri mu myitozo ufite imbunda.

Abapolisi bari guhabwa imyitozo mu gikogwa citwaga ingando cangwa se igikogwa citwaga ikosi, kikaba ari igikogwa gikogwaga n'abapolisi bahiswemo kugira ngo babashe kugera ku gwego go gucunga umutekano w'igihugu, ndetse no gucunga umutekano gwabo muri rusange.

Inteko z'abaturajye ziba cyane mu minsi y'imibyizi, ku wa kabiri ndetse no kuwa gatanu .Akenshi abaturage ndetse n'abayobozi bungurana ibitekerezo, kugira ngo barebe ibigenda nabi, ndetse n'ibigenda neza, ngo bafatanye kubikemura.

Urubyiruko go mu Gwanda ruzwi nk'abayufu aho gwari gwishize hamwe ruri kuganira ku ngingo zitandukanye, cangwa gwari ruri mu nama y'ibintu bikogwaga neza cangwa ibikogwaga nabi. Ahanini urubyiruko gw'abayufu ni abantu b'abakorera bushake bakoraga ibikorwa by'ubugiraneza mu baturage.

Abayobozi bari mu nama, barimo kwiga ku ngingo zitandukanye zateza imbere igihugu cangwa se zafasha abaturage mu mibereho myiza yabo. Ikaba ari inama ikorwaga hagati y'abayobozi bahagarariye abandi mu gihugu.

Abantu barimo kungurana ibitekerezo ku ngingo runaka. kuko bigaragara hari umuntu urimo kugeza ijambo rye ku bantu bamuteze amatwi, ndetse iruhande gwe hari n'abandi bafatanyabikogwa cyangwa se abamufasha kumvikanisha ingingo zitandukanye.

Abantu bari mu nama bungurana ibitekerezo ku ngingo runaka, ndetse bigaragara ko ari ahantu heza hateguye neza, by'umwihariko bishatse gusobanura ko ari abayobozi bari mu nama, baganira ku ngingo zishobora guteza imbere igihugu ndetse n'abaturage muri rusange.

Umupolisi cangwa ushinzwe umutekano, uri kugeza ijambo jye ku baturage. Leta y'u Gwanda ifatanyije n'abaturage igwanyaga ibyaha bikoregwaga muri sosiyete, binyuze mu bujyo ikoreshaga bwo kwegereza inzego z'umutekano abaturage, kugira ngo ikibazo cose bagize baje bahita bakibwira ababishinzwe bico gikemuke mu maguru masha.

Abayobozi bari mu nama y'umushyikirano baganira ku ngingo zitandukanye, bitewe n'ikibazo cyugarije wenda agace runaka cyangwa se Igihugu muri rusange. Hari igihe abayobozi bajya ahantu hamwe bakungurana ibitekerezo ku bintu bigenda neza, ndetse n'ibitagenda neza, bakabikosora kugira ngo imibereho y'abaturage irusheho kuba myiza cyane.

Nk'uko bigaragara, hari ikoraniro ry'abaturage cyase ry'abantu bafite ikibahurije hamwe nk'ubukwe, cyane ko bigaragara ko bafite ikintu bahanze amaso imbere yabo. Ni ubukwe hari abantu hari n'intebe ziteguye neza, ndetse bose bahanze amaso ikintu kiri imbere yabo.

Umushumba uri kumwe n'inka y'inyambo, bigaragara ko arimo kuyiragira, ndetse hari n'izindi nka nyinshi inyuma ye zimeze neza. inka zikaba zizwiho gutanga umusaruro w'amata mwinshi cyane, ugereranyije n'izindi nka zisanzwe.

Ababyinnyi babyina imbyino gakondo izwi nk'intore, bakaba babyina ahantu hatandukanye, mu birori, kwizihiza amasabukuru, ndetse n'indi, cyane ko biba ari ibintu bishimishije, kubona abantu babyina mu mujyo umwe, batabusanya.

Uku niko babyinaga mu imbyino gakondo y'ikinyarwanda izwi ku izina ry'imishayayo, cyane ikaba ibyinwa n'igitsina gore mu birori bitandukanye, cangwa mu amakwe, cangwa mu uburyo bwo kwishimisha.

Abatu barimo gusangira ugwagwa cangwa se umusururu mu gikoresho gakondo kizwi nk'akabindi kikaba ari igikoresho cyakoreshwaga bashiramo inzoga, imisururu, ibigage ndetse n'ibindi byinshi aha kikaba cyarakoreshejwe mu muhango wogusaba cangwa se wo gushingira cane ko ariho bakundaga kwambara izi mikenyero bari bambaye.

Ibikoresho nyagwanda bizwi nk'inkono bikaba ari ibikoresho byakoreshwaga mu guteka ibintu bitandukanye cyane ko mu Gwanda hataraza iterambere ngo bazane amasafuriya bifashishaga ibikoresho inkono urukiza n'ibindi kugira ngo babashe kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi gusa izi nkono zakoreshwaga bateka ibintu bitatandukanye.

Igisabo igikoresho gikoreshwaga mu gwego gw'umuco gakondo kikaba gikoreshwaga mu gucunda amata aho gashigwamo bakagacunda kugira ngo givangure n'amavuta cangwa igihe gagiye kunyobwa garavuze kugira ngo gabe gameze neza.

Ibibindi ndetse n'utubindi dutoya, ibibindi bikaba byifashishwa nko mu gihe cyo gukora umusemburo, cyangwa cyo gutara inzoga, cyangwa imisururu, by'umwihariko kiba gikoreshwa ahantu bakunda kwengera inzagwa n'imisururu.

Ibikoresho gakondo birimo: ibicuma ndetse n'intango cangwa se ikibindi bikaba ari ibikoresho byakorwaga mu bihaza by'ubwoko butandukanye ndetse ibi bikoresho bikaba byarifashishwaga nk'igihe bashaka kunywa inzoga , umusuru ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye mu Rwanda.

Abakobwa bicaye mu rukari barimo kuboha ibikoresho nyarwanda bitandukanye nkuduseke cyangwa se icyo twakwita nk'icyibo n'indi mitako yakorwaga mu byatsi ndetse no mu ndodo igatakwawa mu nzu.

Abaririmbyi barimo kuririmba. Umwe arimo gucuranga inanga, ndetse harimo no kuririmba ndetse ku ruhande rwe hari n'undi w'umukobwa nawe urimo kuririmba bisa nk'aho barimo kunganirana mu majwi yabo kugira ngo bijyane n'inanga barimo gucuranga.

Iyi ni imbyino Abanyagwanda babyinaga cane mu birori, bizihiza ibintu bitandukanye. Nk'uko bigaragara ku ifoto, hari ababyinnyi ndetse hari n'indorerezi bigaragara ko bishimye cyangwa se bigaragara ko hari icyabahurije hamwe, ariko bagacishamo bakanidagadura binyuze mu mbyino nyarwanda.

Umuntu wamashije umuheto ugiye kurasa. Umuheto gwakoreshwaga mu gihe co hambere mu Gwanda mu gikogwa co kurasa byaba inyamaswa cangwa se ku rugamba mu kugwana by'umwihariko igihe babaga bari kwagura igihugu cy'u Gwanda bifashishwaga intwaro gakondo kugira ngo babashe gutsinda abanzi b'izo ntwaro gakondo hari harimo n'imiheto n'imyambi.

Mu muco nyarwanda iyo umugeni yabaga ashingiwe cangwa agiye kubana n'umusore, batwaraga intwererano ndetse n'ibindi bintu byo kuba bifashisha mu gihe bataratangira gushaka ibintu byabo , aho batwaraga ibintu mu giseke birimo amasaka, ibigori ibishimbo byo kuba barya igihe bataratangira gushaka ibintu byabo ndetse bagatwara n'inzoga zibafasha kwizihiza mu kirori.

Umuntu uriguhonda amabuye kugira ngo ayagegene neza bico azabashwe kubakishwa amazu mu bujyo bworoshe, cangwa se se neza ubujyo bumeze neza.

Abantu barimo guhererekanya icansi. Kikaba ari igikoresho cashigwagamo amata cangwa se kikanywegwamo amata, umuntu bagihaye ubwo yabaga agiye kunywa amata. Cikaba ari igikoresho nyagwanda cakoreshwaga mu mwanya w'igikombe.

Inka z'inyambo zikunda kuba mu bice by'iburasirazuba, zororwa kugira ngo zitange amata, ndetse n'icyororo cyiza, ndetse zikaba ari inka zagaragajwe cyane mu muco nyarwanda.

Abagore barimo gukama, bakamira mu muvure. Ikaba ari igikogwa gikogwaga hagamijwe gushaka inzoga, cangwa se icyo twakwita kugwagwa. Bakaba bafata imineke, bakayishira mu muvure, bagashimo icatsi citwa ishinge, cangwa amakoma, bakagenda batsindagira, batsindagira, hakaza kuvamo umutobe, ari go gutagwaga, gukavamo inzoga.

Gusya ku rusyo ni uburyo abanyarwanda bavumbuye bwo gukoresha bavana ifu mu binyampeke. Igihe iterambere ritari ryakageze mu Rwanda ngo batangire gukoresha amamashini gatandukanye, bakaba barakoreshaga ibikoresho kamere cyangwa se karemano nk'ibuye kuko urusyo ni ibuye barambikagaho irindi buye noneho bakagenda bakuba kugira ngo babone ifu.

Isekuru, umusekuzo n'umuntu uri gusekura, isekuro ni igikoresho cakoreshwaga, ndetse n'ubu kigikoreshwa mu Rwanda, hagamijwe gukora ifu cyangwa guta ibinyampeke, nk'amababi nk'ibiti, bakabyorosha kugira ngo babone uko babiteka, urugero nk'isombe, imboga gwatsi, bakabisekura, zikaba nk'agafu, kugira ngo babone uko bazikoresha.

Abakobwa barimo kuboha ikirago. Ikirago akaba ari igikoresho cakoreshwaga cane cane, nko kukijyamaho, ndetse mu Rwanda hataraza ibiringiti, abakera barabizi, bakundaga no kukiyorosa by'umwihariko; kikaba cyarakoreshwaga igihe umuntu yabaga ashaka kwicara ahantu harambuye. Aba bakobwa bakaba barimo kukibaha, kugira ngo bazakigurishe.

Inzu ndangamurage gakaba ari gamwe mu mazu gashirwagamo ibikorwa cangwa se ibirango bitandukanye byo mu gihe co hambere, kugira ngo urubyiruko cangwa se abana batari bahari bazabashe gusobanukigwa amateka go mu bihe byo hambere, bifashishije iyo miziyumu cangwa se iyo nzu ndangamurage.

Ababyinnyi b'intore bari kubyina imbyino nyarwanda izwi guhamiriza cyangwa se imbyino z'intore bakaba bazibyinaga ahantu hatandukanye nkomubukwe cyangwa mu birori bitandukanye ndetse bikaba ari kimwe mukirango cy'umuco nyarwanda.

Imbyino nyarwanda izwi ku izina ry'intore cyangwa se guhamiriza aho nkuko bigaragara ku ifoto hari ababa bavuza ingoma, noneho abandi babyina bajyana n'injyana y'ingoma, ndetse n'ibintu biba bigaragara ko bishimishije cyane yifashishwa nko mu birori.

Abanyagwanda cangwa ababyinnyi bazwi nk'intore bafite n'amacumu, bari bari kumwe n'abazungu bigaragara ko bari bishimye, bamurikaga igikogwa c'umuco nyagwanda. Imyambaro, imisatsi bakoreshaga babyina ndetse n'ibindi bikoresho bizwi nk'amacumu gifashishwaga ku rugamba.

Mu Rwanda rwo hambere ndetse no kugeza n'ubu Abanyarwanda barangwaga n'umuco wo gusangira cyane cyane by'umwihariko ku munsi w' umuganura . Uyu ukaba ari umunsi Abanyarwanda bashyiraga hamwe ibintu bitandukanye: ibishyimbo, ibijumba, ibirayi, igitoki, amasaka ndetse n'ibindi, bagashyira hamwe bagasangirira hamwe by'umwihariko ku munsi w'umuganura...

Inkono y'itabi kikaba ari igikoresho gikoze mu giti, cane cakoreshwaga n'abantu b'abasaza cangwa se abantu bakuze, bagashiramo itabi, bakanywa bakagenda batuhura umwotsi. Gusa mu Rwanda byagiye biracika gake gake bitewe n'uko itabi rigira ingaruka nyinshi ku mubiri.

Umuntu urimo gucunda amata akoresheje igisabo, igisabo kikaba ari igikoresho cashirwagamo amata kugira ngo bayacundiremo yivangavange babone uko bakuraho igice c'amavuta yakoreshwaga mu bintu bitandukanye nko guteka n'ibindi, ndetse uyu muntu bigaragara ko ari umuntu usobanukiwe cyane iby'umuco nyagwanda.

Ingoma n'abavuzi bazo mu muco nyarwanda ingoma zifashishwa nk'igikoresho cyo gutanga umuziki cyangwa se umudiho, cyangwa injyana ku bantu baba bari mu birori bitandukanye, babyina imbyino nyarwanda zizwi nk'ikinimba, igishakamba, ndetse n'izindi. Ingoma zarabafashaga kugira ngo babashe kugira morari muri icyo gikorwa babaga barimo.

Umwana w'umunyeshuri urimo kuvuza ingoma ndetse n'abandi banyeshuri iruhande rwe bagenzi be barimo gukurikira ubuhanga ari gukoresha avuza ingoma. Akaba ari igikorwa cy'ubutwari ku mwana ukiri muto cyane biba bigaragaza ko afite bimwe mu birango by'umuco nyarwanda.

Abantu barimo gusangira inzoga cangwa se n'ikindi kinyobwa ico arico cose, bifashishije ibikoresho gakondo bizwi nk'uducuma. Bikaba ari ibikoresho byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere ndetse n'ubu bigikoreshwa, mu mwanya w'udukombe cyangwa se ibyo twakwita nk'ibirahuri, mu iterambere turimo mw'iyi minsi.

Mu Rwanda rwobhambere, abazungu bataragera mu rwanda ngo bateze imbere sosiyete nyarwanda, cyangwa se bayihindure sivilize mu buryo bwo kuyikangura, Abanyarwanda bambaraga imyenda itandukanye y'uruhu ari yo bitaga ishabure n'impuzu, cyane ko zambarwaga n'abantu bari hejuru y'imyaka cumi n'icyenda(19).

Inka ziri ku kinywero ziri ko ziranywa amazi. Aha ni ukuvuga ngo bazanye inka bazishyira ahantu ngo zinywe amazi. Ibi bikunda kuba mu duce twa Nyagatare kuko umukumbi w'inka cyangwa se inka ziba ari nyinshi cyane bazishyira ahantu hamwe noneho bakayoboramo amazi kugira ngo zisaranganye.

Agakoresho kifashishwaga mu muco nyagwanda mu gwego go gucuranga umuziki ,kakaba ari agakoresho kakogwaga mu mbaho ndetse n'utwuma umuntu ugakoresha akagenda anyeganyeza utwo twuma tugatanga umuziki.

Isekuru n'umusekuzo kikaba ari igikoresho cyifashishwaga, mu gusekura ibinyampeke bitandukanye. Kugira ngo bitange ifu cyangwa mu gucagagura ibimera kugira ngo, bibashe gutunganywa mu mafunguro neza urugero: nk'isombe, imboga n'ibindi byinshi bitandukanye.

Abantu barimo kuvuza ingoma ndetse bazivugiriza abandi bantu barimo kubyina. Iki ni igikogwa cakogwaga mu gwego rwo kwishimisha by'umwihariko mu gihe c'ibirori mu Gwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye nk'u Burundi, ahanini bakunda gukoresha ingoma bashaka kugaragaza umuco gakondo ndetse n'imbyino gakondo zabyinwaga mu Gwanda mu gihe cyo hambere.

Abakobwa bicaye barimo gufatanya kuboha ikirago, ikirago kikaba kifashishwaga, cane cane nko gusasa cangwa gutegura, ahantu nko muri salon by'umwihariko kucicaraho kugikoreraho ibintu bitandukanye.

Abavuzi b'ingoma cyangwa abantu bavuza ingoma, akaba ari bamwe mu bantu mu Rwanda, mu muco nyarwanda bakundaga kugaragara ahanini ibwami, mu birori bitandukanye byo kurahira cyangwa se byo kwishimira ibyagezweho.

Inzu ntoya yifashishwaga mu gihe cyo hambere mu Rwanda, yifashishwaga nk'ubuhunikiro cyangwa se ahantu ho kubika imyaka nk'amasaka, ibigori, ibishyimbo n'ibindi bitandukanye, izwi ku izina ry'ikigega.

Igisoro kikaba ari kimwe mu mikino yakinwaga n'abanyagwanda， cane mu gihe cyo hambere， ariko n'ubu ikaba igikinwa. Kikaba gikinwa bafata udusaro bagenda baterera mu mwobo， ubwo kurya iyo bihuriranye ukarya uwo muri gukina， ukamaraga inka yarafite ubaga umutsinze.

Mu gihe ca kera co hambere, iki gihe ni igihe abami ndetse n'abaja babaga bari kwishimira intsinzi bagezeho mu bitero bagiye batera ahantu hatandukanye, bagahita mo gukoresha imbyino, imishayayo, imihamirizo, intore ndetse n'izindi zitandukanye.

Ababyinnyi bazwi nk'ntore bakaba ari abantu baba bari kubyina imbyino izwi nko guhamiriza cyangwa se imbyino y'intore ,aho babyina bifashishije ibikoresho gakondo, nk amayugi ndetse n'imyambaro gakondo by'umwihariko bakaba bafite amacumu ariyo abafasha kugenda babyinyina neza, ibintu biba bigaragara neza cyane.

Agaseke cangwa akebo gakoreshwa mu gutwara ibintu bitandukanye, ndetse cane cane mu gihe c'ubukwe.

Abantu bambaye imyenda gakondo cangwa se bambaye bya kinyarwanda ndetse bafite n'ibikoresho gakondo birimo igisabo cangwa se ikintu cyifashishwaga bari gucunda amata ndetse n'inkongoro hari ababyinyi bazwi nk'intore ndetse n'abavuzi b'ingoma ku ruhande.

Igisabo ndetse n'intango. Bikaba ari ibikoresho nyarwanda byakoreshwaga cyangwa se bigikoreshwa ahantu hatandukanye mu bice by'igihugu bibikwamo amata .Igisabo cyifashishwaga mu gihe cyo gucunda amata noneho intango zikifashishwa bazishyiramo amata bagiye kuyanywa.

Iningiri cangwa se umuduri. Kakaba ari agakoresho gakoreshwaga mu gihe cyo gucuranga umuziki. Akenshi mu Rwanda tuzi nk'umucuranzi ugacurangaga witwa Igisupusupu. Kakaba ari akantu bashiraga ku giti bagashiraho agacuma n'ihuzi, bakagenda badondangaho kagatanga umuziki mwiza cane uryoheye amatwi.

Abantu barimo gusogongera ku musururu cyangwa se inzoga. Akenshi mu muco nyarwanda byakorwaga nko mu bukwe bagiye nko gusaba, noneho bakabatereka intango cyangwa se indemberi imbere bakajyaho bagasoma n'imiseke miremire, izwi ku izina rya ruvunabataka.

Isekuru ndetse n'umusekuzo, mu sekuru hakaba harimo ubugari bagenda basekura kugira ngo buvemo ifu, bakore umutsima. Cyane uburyo bwifashishwaga mu gihe cyo hambere igihe babaga bashaka kuvana ifu mu binyampeke bitandukanye.

Umuzinga gw' inzuki guhakugwagamo kabuki; ahanini imizinga y'inzuki isangwa mu karere ka gakenke aho abantu benshi bakunda guhagika imitiba kugira ngo babone ubuki.

Abana bari kuvuza ingoma, abenshi babitaga abavuzi b'ingoma ndetse hari n'abandi bikoreye uduseke. Uduseke tukaba ari tumwe mu bikoreshasho gakondo, cangwa se ibikoresho nyarwanda byashyirwagamo ibinyampeke bitandukanye, bakabishira urugo runaka cyangwa se umugeni runaka nk'igikorwa co kumushimira.

Purize cangwa ahantu hifashishwaga bari gucaginga ibintu bitandukanye, nk'amatelefone amaradiyo amateleviziyo n'ibindi byinshi cane, kikaba ari igikoresho c'amashanyarazi gishigwaga ahantu, kugira ngo umuntu abashe kubona uko acaginga ibikoresho bikoreshaga amashanyarazi.

Icuma gikoreshwaga mu mashanyarazi, mu gukupa no gukupura umuriro gw'amashanyarazi, cane kikaba gishigwa mu mazu g'abantu kugira ngo gifashe nk'igihe habayeho amasirikwi, cangwa se inkongi z'umuriro, umuntu akabasha kuba yakupa kugira ngo umuriro udakomeza guteza ibibazo byinshi cane.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cy'amashanyarazi, cyifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye, kuko bigaragara gifite ahantu cyerekanira imibare, uko ibintu bimeze nk'imbere mu mashini, cyangwa se muri tekinoloji gikoresha.

Icuma gikoreshaga amashanyarazi cangwa igikoreshwa cyamashanyarazi, kizwi nka keto gikoreshwaga mu gushusha amazi hifashishijwe amashanyarazi, cyangwa ingufu zituruka ku muriro gw'amashanyarazi.

Ipensi igikoresho gikoreshwa nk'igihe barimo gukata insinga, cyangwa se bari gukanika amashanyarazi, mu rwego rwo kugira ngo bazirikanye insinga cyangwa bazikate bityo bibashe kuborohera igihe barimo gukanika amashanyarazi ahantu runaka.

Abasirikare ndetse n'abayobozi batandukanye b'igihugu aho bagiye gutaha igikogwa remezo cubatswe ahantu runaka. Aho bafata umukasi ndetse n'ikintu kimeze nk'igitambaro bagashira ahantu nonoho bakagikata bafatanyije nk'ikimenyetso co kwerekana ko bafunguye ico gikorwa remezo ku mugaragaro.

Isoko ryubatswe mu bujyo bwa kijambere rikaba ari isoko riba rifite umwanya uhagije wemerera abakiriya n'abaguzi kwisanzura ,cangwa kuba bafite ahantu hahagije ho gukorera ibikogwa byo kugura no kugurisha.

Ikigo cy'amashuri akaba ari ahantu abanyeshuri bajaga bagiye kwiga ibintu bitandukanye ku rugero kwiga amasomo y'ikoranabuhanga ndetse n'amasomo y'ubukungu n'andi menshi atandukanye.

Akayira gatoya cyangwa se agahanda gato. Kaba kari hagati y'amazu, abatu banyuramo bagiye nko ku mazu yabo cyangwa se bagiye nko guhinga. Imirima zabo zitandukanye ziba ziri mu giturage.

Ibikogwaremezo bya Leta, aho byubakwaga ahatu hatandukanye mu bice bitandukanye by'Igihugu, kugira ngo abaturage baturiye ibyo bikogwaremezo babashe kubona ku mafaranga, ndetse serivisi zimwe na zimwe zitangwaga na Leta zigende zibegera, bityo babashe kugira imibereho myiza.

Umudugudu gw'icitegererezo aho abatu batuzwaga ahatu hamwe, kugira ngo babone uko bagegwaho n'iterambere nk'amashanyarazi, amazi n'ibindi bikorwaremezo nk'umuhanda noneho by'umwihariko bikaba bifasha mu buryo bwo kubona ubutaka bwo kwifashishwa mu gihe co guhinga.

Ikigo c'ishuri cubatswe mu bujyo bugezweho ndetse imbere y'ijyo shuri hakaba hari abayobozi b'inzego zitandukanye, abashinzwe umutekano w'igihugu aribo bafatwa nk'abasirikare ndetse n'abayobozi bigaragara ko baje gutaha ico kigo c'amashuri cubatswe.

Igikoresho gikoreshwa mu mashuri ya materineri cyangwa garidiyene, aho hashyirwamo ibikinisho bifasha abana kumenya gusoma, kubara no kwandika, kibaga cuifashishwa mu mashuri atandukanye, mu rwe rwo gufasha abanyeshuri gukangura ubwenge bwabo.

Urusengero cangwa abenshi bakunda kuhita inzu y'Imana . Akaba ari ahantu abantu bajaga bagiye gusenga cangwa guhimbaza Imana. Aho hantu abantu benshi bahafataga nk'ahantu hatagatifu cane ko bizera ko ibisubizo byabo cangwa se amasengesho yabo ariho anyura kugira ngo agere ku Mana byoroshe

Inzu yubatswe ahantu hisanzuye ndetse hari ubusitani bwiza, bigaragara ko ari inzu yo kwifashishwa igihe umuntu ashaka kuruhuka, cyangwa se ahantu h'umuhezo hashobora gushyirwa umuntu ufite ikibazo runaka.

Inyubako nziza cane yubatswe mu bujyo bugezweho nk'uko bigaragara ni inyubako yubatswe mu bujyo bwa etaje, ikaba ari inyubako irondereza ubutaka kandi igakoreshwa ibikogwa bitandukanye kuko iba ifite ibyumba byinshi ,ndetse yubatse mu bujyo bwiza bwa kijambere kandi ikaba ari inyubako idakonsoma cangwa se idatwaraga ubutaka bwinshi cane.

Icyapa kigaragaza ibikogwa biberaga ahantu runaka, abahamya ba Yehova, ni ukuvuga ngo barashaka kwerekana ko aho hantu ari ho abahamya ba Yehova bajaga bagiye cyangwa guteranira imbere y'Imana.

Ikigo c'amashuri cangwa se ahantu abanyeshuri bajaga bagiye kwiga cangwa gukurikirana amasomo gabo, kikaba ari ikigo cyubatswe mu bujyo bugezweho mu bujyo bwa etaje, cane ko ibigo byubatse m'ubwo bujyo bironderezaga ubutaka, ndetse imbere hari n'abanyeshuri biga ku ico kigo.

Urusengero : Aho abantu bajaga bagiye gusenga cangwa kujya guja imbere y'Imana ngo bagiye kuyitura ibibazo cangwa ibindi bitandukanye. Hakaba hifashishwa n'abantu benshi batandukanye : abasaza, abakecuru kugira ngo babe imbere y'Imana.

Urusengero ahantu abantu bajaga umunsi umwe mu cumweru cose ari wo munsi wa karingwi bagiye kuganira n'Imana cangwa se guhimbaza Imana ku byiza yabakoreye muri ico cumweru barangije cangwa se mu bihe byabo byahise byo hambere.

Umuhanda guzwi nka kaburimbo gukoreshwaga mu ngendo zitandukanye, ariko gwubatswe mu bujyo bwa kijambere cangwa se mu bujyo buteye imbere, aho ari umuhanda bakoreshaga sima n'utundi tubuye dutoya, gukaba ari umuhanda gubaga gukomeye ndetse gufite ubuziranenge.

Abapadiri ndetse n'abasaserdoti bateraniye ahantu hamwe ku kiliziya, mu muhango wo gutanga ubupadiri. Kuko bigaragara, hari abantu benshi bahateraniye baje gusenga, ndetse si abaje gusenga gusa. Hari n'abafasha abapadiri mu mihango ya Kiliziya Gatulika.

Inyubako yo kubamo cangwa aho abantu batura, zikaba ari inyubako zubakwa zigamijwe kubikwamo ibintu bitandukanye ndetse n'abantu bakahaba cane ko ari bwo baba bizeye umutekano gwabo.

Ikiraro cyubakanywe ubuhanga, kikaba ari ikiraro cyubakwa mu kirere hakoreshejwe imigozi ndetse n'ibyuma bitandukanye, kikaba cyifashishwa nk'ahantu ho mu gishanga kugira ngo abantu babashe kugenda, cyangwa se kwambukiranya imisozi n'ibibaya biba biri mu gishanga.

Ibikorwaremezo byubakwaga na leta hagamijwe kugira ngo bifashe abaturage mu mibereho myiza yabo, cane ko abenshi bahakorera bahabwaga amafaranga, bigatuma imibereho myiza yiyongera mu baturage.

Ibikogwaremezo bifasha abaturage kugira imibereho myiza mu buzima bwabo bwa buri munsi, ku muhanda ubafasha mu migenderanire myiza ndetse, n'ikindi gikorwaremezo c'amashuri kiri inyuma kikabafasha kwiyungura ubumenyi.

Ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya, ikaba ari ishusho ikundaga gukoreshwa cane cane mu idini ry'abakatolike, cyangwa nk'abakiristu gatolika, aho ishyigwaga ahantu nk'ikimenyetso cy'umuntu wabyaye umwana agacungura isi.

Ibikorwaremezo by'amashuri akaba ari inyubako zubakwaga na Leta kugira ngo abaturage bayo, baherebweyo uburezi n'uburere bizabafasha kwibeshaho mu gihe kizaza.

Urusengero gwiza cane cangwa se ingoro ya Bikiramariya ,akaba ari ahantu abantu bajaga bagiye gusingiza umuremyi cangwa uhoraho rimwe na rimwe bagiye kumutura n'ibyifuzo byabo kugira ngo abafashe kwesa imizigo.

Urusengero cangwa se ahantu abantu bajaga bagiye guhimbaza Imana, Akaba ari ahantu hakunda guteranirwa n'abantu benshi kugira ngo baje imbere y'Imana, bayiture ibyifuzo byabo ahanini abenshi bizera ko ari ari inzu, ari'inzu y'Imana.

Ibyumba by'amashuri byubatswe mu buryo bugezweho, aho babyubaka kugira ngo birondereze ubutaka, cangwa bikoreshe ubutaka butoya, ariko bitange umusaruro mwinshi, cangwa se abanyeshuri bahagana babe ari benshi ugereranyije n'ibyumba by'amashuri byubakwa ku buso bunini, ariko abanyeshuri bahagana bakaba ari bakeya cane.

Amazu cangwa se ibikogwa remezo byubakwaga na leta kugirango yunganire abaturage mu bujyo bw'imiturire. Aho leta yubakaga amazu ikagaha abaturage, kugira ngo bature neza kandi bature ahantu hameze neza, bico babashe gutera imbere bagire n'ubuzima bwiza.

Inteko y'abaturage: Igikorwa gifatwa nko kungurana ibitekerezo hagati y'abayobozi ndetse n'abayoborwa mu Rwanda, kiba hagati mu cyumweru ku wa kabiri no kuwa gatanu kugira ngo abayobozi ndetse n'abayoborwa bungurane ibitekerezo ku ibigenda neza ndetse n'ibitagenda neza, kugira babikosore cyangwa babyongere. Nk'uko bigaragara ku ifoto hari abayobozi ndetse hari n'abaturage bari gutanga ibyifuzo byabo.

Umuntu urimo kugeza ijambo rye ku bandi bantu bagenzi be batandukanye, cyangwa se umuntu urimo gutanga icyifuzo ku bayobozi kugira ngo kibashe gukemurwa. Ahanini bikunda kuba mu nteko z'abaturage cyangwa mu mishyikirano hagati y'abayobozi ndetse n'abayoborwa.

Kungurana ibitekerezo hagati y'abantu batandukanye,, nk'abayobozi ndetse n'abaturage, cangwa se abaturage ku giti cabo bungurana ibitekerezo. k'uko bigaragara hari umuturage uri gutanga igitekerezo cye, akigeza kuri bagenzi be baba bari mu nama cangwa se mu bindi bikogwa bitandukanye.

Abagororwa cangwa abantu baba barakoze ibyaha bitandukanye, aho baba bari kuganira n'ababakuriye mu magereza cangwa abacamanza mu magereza, kugira ngo bagabanyirizwe ibihano cangwa abandi bongeregwe ibihano.

Imodoka yifashishwaga mu gutwara abanyeshuri ibajana ku ishuri kuko ibigaragaza ku birango byayo hope sikuru basi, bivuze ko ari imodoka yifashishwaga igihe bagiye gutwara abanyeshuri ngo babajane ku mashuri gabo.

Imodoka itwaraga igicuruzwa ca mazutu, cangwa se peteroli, nk'uko abenshi bakunze kuyita, kikaba ari igicanwa, gicukugwaga hasi mu butaka, kigatunganwa, kikaba cifashishwaga mu binyabiziga bitandukanye, by'umwihariko imodoka, amamoto, ndetse n'ibindi bikoresho byo mu nganda, bisaba ingufu nyinshi kugira ngo bikore.

Amamodoka gari muri gare gategereje gutwara abagenzi bagiye mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse iruhande rw'ago mamodoka hari n'abagenzi bakeneye serivisi zo kuja ahantu hatandukanye mu gihugu c'u Rrwanda.

Umumotari utwara abagenzi ari kubajyana ahantu hatandukanye, mu duce dutandukanye tw' igihugu cyacu c' u Rwanda, kuko bigaragara hari umumotari utwaye moto, ndetse hakaba n' umugenzi ajyanye ahantu runaka.

Imodoka nini cane ikoreshwaga mu gutwara abagenzi bagiye mu bihugu bitandukanye. By'umwihariko iyi modoka ikundaga gukora ingendo mu bihugu bya Uganda, ikaba ari imodoka nini itwaraga abagenzi benshi cyane, ugereranyije n'izindi modoka kuko zo ziba ari ntoya kuri yo.

Gare cangwa se ahantu haparikaga amamodoka igihe gategereje abakiriya cangwa se igihe gategereje abagenzi kugira ngo gabajane ahantu, ahantu bashaka kuja bitewe n'agace runaka, bakabaca amafaranga y'urugendo.

Uruja n'uruza gw'abantu n'ibinyabiziga bikaba ari ibikoresho byi byifashishwaga cangwa se bikoreshwaga mu kugenda no kugaruka kw'abantu n'ibintu, kuko bigaragara hari imodoka zizwi nka tagisi ndetse n'amamoto yifashishwaga mu gutwara abantu.

Ritiko, iki ni ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abantu ndetse nibintu, bava mu gace kamwe bajya mukandi, kikaba ari ikinyabiziga nkuko bigaragara ku ifoto, kirekire ndetse kigiye hejuru cyane mu buryo bworohereza abakiriya bayo, kugenda bisanzuye ndetse nta kibazo bahuye nacyo kimubyigano.

Ibimodoka binini cane bizwi karumoleki bitwaraga imizigo iremereye cane, biva mu gace runaka. Urugero hari ibiva mu bihugu byo hanze bigiye bitandukanye bizana ibicuruzwa hano mu gwanda.

Ahantu abantu bafatiraga amamodoka kugira ngo baje mu bice bitandukanye by'igihugu aho bakunda kwita muri gare cangwa se aho amamodoka gaparikaga akaba ari ahantu haba hateraniye abagenzi ndetse n'abatwazi b'ibyo binyabiziga bitandukanye.

Moto zikoreshwa n'amashanyarazi zikaba ari moto nziza cyane, ndetse igihugu cy'u Rwanda kikaba gitera inkunga abamotari biyemeje gukoresha moto zikoresha amashanyarazi, kugira ngo bagabanye ibyuka bijya mu kirere bikanduza ikirere. Ahanini zikaba zikoreshwa mu mugi wa Kigali , ndetse n'ahandi hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda.

Abantu batwaraga amagare cangwa abashoferi b'amagare aho baparikaga ku muhanda bagategereza abakiriya, noneho umukiriya yaza bakaba bamujana mu duce dutandukanye aho ashaka kuja.

Igihe uwari Minisitiri w'Uburezi, Uwamariya Valantina yari yagiye muri gare kugira ngo agenzure imigendekere myiza ya serivisi zihabwaga abanyeshuri baba bava cyangwa se baja ku bigo bigaho. Aha hari muri gare, aho yagendaga abaza abanyeshuri serivisi bagenda bahabwa baja cyangwa bava ku bigo bigaho.

Abantu bari bari mu modoka zitwaraga abagenzi bisa nkaho hari havutse ikibazo hagati yabo n'umushoferi kuko bose bari bari kureba umushoferi. Bisa nkaho bari kumubaza ibibazo bitandukanye ku migendekere myiza ya serivisi abaha.

Amamodoka manini gazwi nka za rukururane cangwa amamodoka zatwaraga amakontineri gabaga garimo ibicuruzwa byinshi cane ndetse by'agaciro gakomeye cane. Hari n'umushoferi w'iyo modoka cangwa se w'ago mamodoka wari urimo gusobanura uko ingendo zambukiranyaga imipaka by'umwihariko mu izi modoka zabaga zihagaze.

Umuntu utangaga serivisi mu ndege cyangwa se umuntu ugendaga arita ku bakiriya bateze indege bagiye mu bihugu bitandukanye, akaba ari umuntu ugomba kuba ari mwiza ndetse mbega ari umuntu ugaragara neza, kugira ngo abakiriya igihe ari kuganira nabo bamwishimire.

Ahantu abantu bacaga bagiye gutegera amamodoka bagiye mu bice bitandukanye. Iyi ni gare iba iparitsemo imodoka cangwa se ibindi binyabiziga byoroheje kugirango abagenzi babashe kuhagera bahabwa serivisi zo kujanwa mu bice bitandukanye by'igihugu.

Muri gare cyangwa aho baparikaga imodoka， aho abagenzi baja gutegererereza imodoka kugira ngo baje mu bice bitandukanye by'gihugu. Iyi ni gare ya Musanze.

Urujya n'uruza rw'abantu bagiye gushaka serivisi runaka, by'umwihariko biragaragara ko bari muri gare ahantu haparitse imodoka nyinshi. Bisobanuye ko bashobora kuba bashaka kuja mu duce runaka, bifashishije izo modoka ziri muri gare.

Indege ya gwandeya itwaraga ibicuruzwa ibivana mu bihugu byo hijya no hino ku isi ibizana mu gwanda cangwa se ikabivana mu gwanda ibijana mu bindi bihugu byo hijya no hino ku isi.

Abamotari, abantu batwaraga abantu babavana mu gace kamwe bakabajana mu kandi. Ndetse nkuko bigaragara hari abantu bari guhabwa serivisi, babavana hamwe babajyana ahandi. Ndetse hari na moto inyuma hari n'amazu y'ubucuruzi.

Moto kimwe mu binyabiziga bikoreshwa mu rugendo, abantu batandukanye bakunda kubikoresha, bagiye ahantu hari nk'imihanda itari minini cyane yanyuramo imodoka, cyangwa bagira ngo bihute kuko moto yihuta cyane kurusha ibindi binyabiziga, cyane ko yo inyura n'ahantu hato ugereranyije n'ibindi binyabiziga.

Imodoka zitwara abagenzi, zikabavana mu gace kamwe zikabajyana mu kandi gace, cyane izi zikoreshwa mu mujyi wa Kigali, zivana abagenzi ahantu hamwe, zibajyana ahandi.

Umumotari utwaraga moto akaba ari umuntu wabyigiye cane se bize gutwara moto, amashuri gatandukanye mu Rwanda, noneho akagura moto kugira ngo aje aravana abagenzi mu gace runaka abaje mu kandi.

Ibikorwa byo gutwara uruja n'uruza rw'abantu hifashishijwe amamoto ndetse n'amamodoka gazwi nka Tagisi ibyo byose bikaba aribyo byifashishwaga igihe abantu bashaka kujya mu duce runaka tw'igihugu.

Amamoto cangwa amapikipiki mashasha gashizwe ahantu kugira ngo abantu bayabone bico bahitemo kuyagura cane ko abantu bakururwa n'ibintu babona kurusha ibyo batabona.

Umuntu wikoreye umufuka gwurimo ibintu bitandukanye, bigaragara nk'aho ari ibigori, ndetse iruhande rwe hari abandi bantu bazwi nk'abakarani barimo gupakurura imodoka bayikuramo imifuka za sima, bazijana mu nzu muri kenkayori cyangwa se ahantu bacururizaga ibikoresho by'ubwubatsi.

Imodoka ziri muri gare zifashishwaga mu kuvana abantu mu gace runaka zibajana ahandi, cane iyo ari urugendo rurerure aho haba hari abagenzi ndetse n'abatwazi batwara abagenzi mu modoka bakabavana mu gace bifuza babajana mu kandi gace.

Abenshi bakunda kubita abakarani cangwa abantu batwara imizigo iremereye. Aba bagore babiri, barimo gusunika umwe arimo gusunika ingorofani iriho imizigo myinshi cane, undi akaba ariho gusunika ingorofani itariho ikintu. Bisobanuye ko aba bagore bafatanya umwuga g'ubukarani, cane bakunda kugaragara ahantu h'amasoko kugira ngo batwaze abantu imizigo.

Imodoka ijyananye ibicuruzwa cyangwa se imbuto ku isoko zikaba n'imbuto zimeze neza zigaragara neza bigaragara ko zitaweho mu gihe cyo kuzihinga ndetse n'igihe cyo kuzisarura kugira ngo zijyanwe ku isoko zifite isuku kandi zigaragara neza.

Abanyonzi cangwa abantu batwaraga amagare, bakaba ari bamwe mu bantu bagira uruhare mu kugeza abagenzi ahantu hatandukanye, by'umwihariko amagare gategwaga ahantu hatambika kuko ahantu iyo hazamutse amagare gadakunda kujayo kuko amagare gakoreshwaga n'imbaraga z'abantu bityo ahantu hazamuka bikaba bigoranye.

Umukinnyi ukinaga umukino gwa kadennesi uri kumwe n'umuzungu cyangwa se numuntu twafata nk'umutoza we umutozaga uwo mukino wa kadenesi bari bari hamwe bari kwifotoza kugira ngo bereke inshuti zabo ko bahuje urugwiro.

Abakinnyi bari gukina umukino gwa basiketi, umukino gwa basiketi ariko ku ruhande rw'abahungu, ukaba ari umukino gukinwaga n'abantu barindwi ku mpande zombi, ndetse ukaba ari umukino gukinwaga ku rwego mpuzamahanga. Bivuze ko abatu batandukanye baturutse hirya no hino bashobora gukina uyu mukino kandi ukaba umukino ushimishije cane.

Umukino uzwi nka volebolo urimo gukinwa n'abagore nk'uko bigaragara, basimbutse bagiye hejuru, ibyo bita kuboroka, kugira ngo badakubita noneho umupira ukaza kugwa mu ikibuga cyabo bigafatwa nk'igitego.

Isiganywa mu mamodoka rizwi nk'amakurusi. Amakurusi gakaba ari amamodoka gaba ari mato cane, aho abantu basiganywaga kugendera ku muvuduko wo hejuru ndetse bagakoresha n'igihe gito kugira ngo babashe kugera ahantu baba biyemeje kugera. Kakaba gakundaga gukogwa mu bice bitandukanye by'igihugu, abenshi baragazi cane.

Abakinyi b'umupira gw'amaguru. Ukaba ari umupira gukinwaga hagati y'amakipe abiri, aho bashiraga balo mu kibuga noneho bakagenda bakina. Abateye mu izamu, umupira ugacika zamu, kikaba ari igitego. Gukaba gukinwaga mu Gihugu cy'u Gwanda ndetse no mu bindi bihugu bikikije Igihugu cy'u Gwanda.

Ugo ni umukino gwa basiketi aho gukinwaga n'amakipe abiri gatandukanye. Ayo makipe imwe iyo iteye mu kantu kakazeru iba itsinze. Biragaragara ku ifoto ko u Rwanda rwari ruri gukina na mozambike.

Imyitozo ngororamubiri ikaba ikogwaga kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, cane nko kwirinda ingwara zitandukanye nk'umutima, umuvuduko w'amaraso n'izindi. Imyitozo ngororamubiri ikaba igira uruhare runini mu kugwanya izo ngwara zitandukanye.

Umukino gwa voleboro gukinywaga hagati y'amakipe abiri, imwe ifite abakinyi batandatu n'indi ifite abakinyi batandatu. Hano nk'uko bigaragara ku ifoto ni voleboro y'abakobwa cangwa se y'abagore barimo gukina, umwe ari gukubita ikiro, abandi babiri baborotse kugira ngo batabatsinda igitego.

Umukino gwa basiketi ku ruhande rw'abakobwa. Ukaba ari umukino ukinwaga hagati y'amakipe abiri atandukanye. Ndetse abakinnyi baba ari batandatu, mu kibuga kimwe no mukindi ari batandatu.

Ikipe y'umupira gwa basikete, aho abakinyi bayo bari bifashe neza bisa nk'aho bari kwiragiza Imana ngo ibafashe mu mukino bari bagiye gukina, ngo Imana ize kubafasha babashe kugutsinda cangwa se batahukane amanota y'intsinzi.

Umukino gwa volebolo, guri gukinwa hagati y'amakipe abiri, ariko ku ruhande gw'abahungu, nk'uko bigaragara, hari n'abafana ku ruhande, bashigikiye amakipe garimo gukina.

Irushanwa ribaga mu Gwanda rizwi nka turudigwanda, rikaba rikunda kuba hagati mu mwaka ndetse rishobora no kurenza inshuro imwe mu mwaka rikaba kabiri, aho abandu baturutse ibihugu byo hijya no hino bitandukanye bifatanya n'abanyagwanda mu gusiganwa ku magare.

Abakinnyi bakinaga umupira cangwa se basiketi bukaba buzwi nk'umupira gukinwaga nabantu baringwi mu kibuga by'umwihariko iyo ari barebare biba ari akarusho ko gukinywa batera baro muri basikete cyangwa se mukantu kameze nkaka basiketi noneho baro yanyuramo bakaba batsinze igitego bikaba biba byiza iyo umutari muremure kugira asimbuke ateremo.

Irushanywa rikorwaga mu gutwara amagare mu Gwanda dukunda kujyita turu di Gwanda, rikaba rikorwaga n'ibihugu bitandukanye byo ku isi, noneho uwahize abandi akaba ariwe wegukana igihembo c'ishimwe.

Abakinnyi b'umupira gw'amaguru aho bari bari gukina n'ikipe y'Igihugu c'u Rwanda y'amavubi ndetse iri gukina n'ikindi gihugu co hanze, aho umukinnyi umwe w'Igihugu cy'u Rwanda yari ari gutera baro. Undi ari kumwe n'umwataka kugira ngo amwake baro bityo namucika abashe gutsinda igitego.

Amasiganwa gwo ku magareba gakaba ari amasiganwa gakorwagana n'abantu batandukanye baturutse hijya no hino mu isi, bagasiganwa ku magare, noneho ubaye uwa mbere akaba yahabwa igihembo c'uko yahize abandi, cangwa se yakoresheje igihe gito muri agwo masigangwa.

Ikipe y'umupira gw'amaguru, aha biragaragara ko bari bagiye mu myitozo kugira ngo bananure intege. Uko bigaragara ko umwe yari arimo gusimbuka n'abandi bakurikiraho ku murongo, kugira ngo ingingo zabo z'umubiri.

piscine cyangwa se ahantu h'ubwogero, hafatwa nk'akayaga gatoya, gashobora kwifashishwa mu rwego rw'imyidagaduro, cyangwa mu rwego rwo gushimisha umubiri, woga ahantu udashobora kurohama, cyane ko haba hatandukanye n'ikiyaga, kuko piscine ntago iba igiye hasi cyane.

Abakinnyi b'ikipe y'amaguru bahagaze ahantu bifotoza. Biragaragara ko ari ikipe y'ikigo k'ishuri runaka, cyane ko ahantu bifotoreje ari ku kigo k'ishuri.

Abatu bateraniye ahatu hamwe muri sitade mu gikogwa co gufana amakipe g'amaguru. Aho amakipe gatandukanye gajaga mu kibuga gagakina gashigikiwe n'abafana bavuye impande n'impande, kugira ngo bagafashe kongera motivasiyo cangwa se umuhate wo gutsinda ibitego.

Igikorwa co guhemba cangwa co gushimira umuntu wahize abandi mu marushanwa cangwa mu masiganwa g'amagare. Kikaba ari igikogwa kiba bashimira umuntu warushije abandi, mu bikorwa by'amasiganwa. Nk'uko bigaragara hari umuntu barimo gushimira ari nawe uri imbere, ndetse n'abafatanyabikorwa ba tutu di Rwanda(tour du Rwanda).

Umukino w'akadenesi ahanini ukinwa n'abantu babiri, umwe akajya mu gahande kamwe undi akajya mu kandi, noneho bakagenda baterana akadenesi, kagwa hasi ubwo uwo kaguye mu kibuga cye akaba atsinzwe. Uyu mukino, ahanini imikino yose nyarwanda ikunda kuba yamamaza n'igihugu cy'u Rwanda, aribyo twita visiti Rwanda.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bagiye kureba umukuru w'Igihugu cangwa se undi muyobozi by'umwihariko kuko bigaragara bafite ibirango by'Igihugu, byumvikana ko hari umuyobozi cyangwa ikindi gikogwa cy'Igihugu muri rusange cyabahurije hamwe, bikaba ngombwa ko bitwaza n'ibirango by'Igihugu.

Uyu mukino uzwi ku izina ry'akadenesi. Aho barambura igitambaro hagati, umwe akajya hakurya, undi akajya hakuno, bakagenda batera akadenesi, noneho uwo kaguye hasi akaba atsinzwe.

Abana bakiri bato barimo gukina umupira gwa basikete. Basikete gukaba ari umukino mwiza cane by'umwihariko ugorora ingingo z'umubiri kuko bisaba gukoresha imbaraga nyinshi cane ndetse no gusimbuka bigatuma inkingo z'umubiri zigenda zigororoka.

Abantu bari gusiganwa ku magare, ukaba ari umukino gukinwaga n'abantu baturutse hijya no hino mu isi, guzwi ku izina rya Turudigwanda, ukaba gukinwaga hagamijwe kureba uwahize abandi mu gutwara igare ndetse akaba yakoresheje n'igihe gitoya ugereranyije n'abandi.

Abakinnyi bari gukina basiketi basiketi gukaba Ari umukino gukinwaga n'abantu barindwi mu kibuga kimwe n'abandi barindwi mu kindi kibuga kuko bigaragara hari umukinnyi ufite baro ndetse n'undi wa mwatatse ushaka kumwaka baro.

Ikibuga gikinirwagamo volebolo cangwa se umupira gw'amaboko, kikaba gikinwagamo n'abakinnyi batandatu ku mpande zombi ubwo bakaba ari cumi na babiri bagenda baterera balo mu kirere ,ubwo yagwa mu kibuga c'abari gukina bakaba baratsinze.

Umuzamu urimo kugerageza gufata umupira kugira ngo gutamuca mu myanya z'intoki bico bakaba batsinda itimu yabo igitego ibi bikaba bikogwaga kugira iyo amakipe gahuye umuzamu iyobateye ishoti rikamucika rikaja muzamu kibaga ari igitego c'ikipe runaka.

Umuntu urimo kugenda mu muhanda uzwi nk'amapave. Amapave tukaba ari utuntu dukorwaga muri sima n'umusenyi, tugashigwa iruhande rw'umuhanda kugira ngo abantu baje babasha kutugenderaho cyangwa se kuhanyura badahuye n'ivumbi cangwa imicucu ngo ibanduze.

Umuhanda gwangiritse bitewe n'impamvu zitandukanye, bishobora gutegwa n'imitingito cangwa bigategwa n'ubutaka budakomeye, cane bikaba byatuma hazamo gutandukana hagati y'igice kimwe n'ikindi.